Ni inzu hasi yaho hari amakaro, no hejuru akaba ari amakaro. Ku mpande hari icyapa gihari, inyuma hari irido ry’ubururu, hakaba hari imigezi igiye itandukanye, iriho n’intsinga z’umutuku.

Igipupe kiri kugaragaza ibice bigize umuntu by'imbere, icyo gipipe kikaba giteretse ku kintu cy'umukara kiriho urutsinga rw'umutuku, aho giteretse hakaba hapavavomye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye hakaba hari amarido y'ubururu, hakaba harimo ibyapa bibiri bitandukanye hasi hakaba hapavomye, aha hakaba hari intebe eshanu n'indi ya gatarate itari kugaragara neza.

Ni abagore n'abakobwa bakaba bicaye hamwe bari kuboha. Bari kuboha ibyibo, bari kuboha imitako bakaba babohesha utwatsi twitwa ibitare.

Mu ishuri ry'imyuga, muri iryo shuri hakaba harimo abanyeshuri bambaye inifomo y'ubururu. Hakaba harimo abarimu babiri barimo kubigisha. Iyo myuga bari kwiga akaba ari imyuga y'ububaji.

Umunyeshuri uri imbere yambaye amasogisi y’umweru n’inkweto z’umukara, n'ijipo y’umukara, hejuru ishati y’umweru. Ari kubwira bagenzi be, abatunze urutoki, bagenzi be bicaye ku ntebe ziriho ameza, buri wese afite icupa imbere ye.

Abantu bane bari kugaragara n'uwa gatanu ufite igipapuro. Bambaye inifomo y'ibisurubeti by'icyatsi kibisi. Hakaba harimo n'icyatsi gikeya, bakaba bari kwandika ibintu ku meza. Hakaba hari imashini hafi yabo, hakaba hari n'ibyuma bitandukanye.

Abakobwa babiri bambaye amasarubeti y'ubururu, umukobwa umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara, undi yambaye ak'ubururu, umuhungu wambaye rinete n'agapfukamunwa k'umukara, akaba yambaye sarubeti n'isaha, bakaba bose bafashe ku cyuma, inyuma yaho hakaba hari inzu iteyeho irange ry'umuhondo.

Abanyeshuri bambaye amashati y'mweru na karuvati za ne z'umukara, harimo n'abambaye icyatsi, bafite imbere yabo akantu bari gukurura, abandi bari kureba, hariho n'akuma kari kubara.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru , umwe arasutse , undi ntabwo asutse . Bafite uducupa turimo imiti , bari kureba imbere yaho hari icupa ry'umweru ripfundikije umufuniko w'ubururu , n'utundi twuma dutandukanye.

Abanyeshuri biga kuvura amatungo, bakaba bambaye ibisarubeti by'icyatsi, bakaba bafashe inka. Umuntu ufashe inka akaba atambaye inifomo, undi akaba ayambaye. Bakaba bagiye kuyitera urushinge.

Ahantu bigira imyuga harimo abagore batandukanye. Babiri umwe yambaye ingofero y'ikizuru , undi ntabwo ari ikizuru bakaba bari koza ameza hafi y'umugore uri imbere hakaba hateretse igikosi cya nido.

Ni inyubako iyo nyubako igiye ifite ibyumba bitandukanye imbere y'inyubako hari ibyuma bigiye bitandukanye, hari n'imashini y'icyatsi hirya y'imashini y'icyatsi hari ameza ayo meza ariho abantu babiri bunamye.

Abantu bambaye amasarubeti y'ubururu, bambaye n'amakasike y'umuhondo, umwe yambariyeho ku gatambaro k'umweru, bafite imashini bari gukoraho, imashini ifite icyuma cy'umweru, ikaba ifite irangi ry'icyatsi.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe z'umukara, bambaye umweru hejuru, hasi kaki. Bari kwigira imbere bareba porojegiteri, mwarimu uri kubasobanurira akoresheje ikiganza abereka.

Abantu bane bambaye iniforume y'umweru hejuru, hasi ni umukara. Bakaba bari kuvugira muri mikoro, undi afite gitari n'uw'inyuma afite gitari. Bari gucuranga abandi bari kuvugira muri mikoro.

Abantu babiri bambaye amasarubeti y'ubururu, undi yambaye ishati ijya gusa umweru, undi mugore yambaye ikanzu ,akaba asutse, bakaba bakikijwe n'imashini iriho insinga nyinshi cyane.

Abantu bane, bambaye amasarubeti atandukanye, ajya gu gusa ubururu, undi yambaye isarubeti y'ubururu, yambaye n'ingofero y'umukara, umukobwa wundi arasutse, abandi bari inyuma bambaye amasarubeti ajya gusura ubururu bwijimye, hakaba harimo ibyuma byinshi bitandukanye.

Abantu batandukanye bambaye imipira y'ubururu ,umwe akaba yambaye umupira w'umuhondo. Hakaba hari kugaragara amaguru bari gusiga inzara , abo hino bakaba bari kumusiga ubururu abo hagati bakaba bari kumusiga umutuku hirya yaho hakaba hari umuntu bari gukorera umusatsi.